Abagabo batatu bahagaze imbere y'abaturage bari kubagezaho imbwirwaruhame yabateguriwe, abagabo bambaye indorerwamo z'amaso ndetse bambaye n'amakoti meza na karuvati.

Ihuriro ry'abantu baturutse mu bice bitandukanye, bambaye imyenda y'umweru, umukara n'umutuku, biragaragara ko ari abantu bahujwe n'igikorwa kimwe kandi cy'iterambere.

Icyumba cyateraniyemo abayobozi baturutse mu bice bitandukanye, bari kwiga ku bikorwa by'iterambere, bageza ku baturage kugira ngo igihugu kibashe gukomeza gutera imbere.

Abantu bahuriye mu nyubako baje mu nama, bambaye imyenda yiganjemo amabara y'ubururu, umweru ndetse n'umukara, biragaragara ko bafite imyaka hagati ya mirongo itatu na mirongo ine.

Inyubako yateraniyemo abaturage baturutse mu bice bitandukanye, bambaye imyenda yiganjemo amabara y'umweru, umukara, ubururu ndetse n'icyatsi, bari ahantu ubona ko ari hanini kandi ari hagari.

Inyubako yateraniyemo abayobozi baturutse mu bice bitandukanye, bari kwiga ku buryo bakwiteza imbere bagateza n'imbere igihugu muri rusange.

Inama yateraniyemo abayobozi baturutse mu bice bitandukanye, bigaragara ko bari gutanga ubufasha ku baturage bahuye n'ibibazo ndetse batanga ibibazo mu buryo butandukanye.

Ababyinnyi ba gakondo bavuga ko iyo witoje kubyina, bituma ubyina neza kandi ntibikugore, ariko iyo utabyitoje usanga bikugora mu gihe uri kubyina.

inyubako yateraniyemo abantu baturutse mu bice bitandukanye, bambaye imyenda yiganjemo ibara ry'umukara, umweru n'ubururu, ni urubyiruko rwahuriye mu nama kugira ngo rwige ku bibazo bitandukanye.

Inyubako yateraniyemo abantu baturutse mu bice bitandukanye, baje kugeza inama ku baturage. Biragaragara ko abaturage bitabiriye kandi baje ari benshi, bityo bigatuma batahana inama zitandukanye.

Inyubako ya kera izengurutseho ibiti kandi yubakishije ibiti. Abantu ba kera bakoreshaga ibiti bubaka amazu yabo, akenshi wasangaga akomeye kandi agezweho.

Ababyinnyi gakondo bavuga ko iyo bitoje imbyino zabo, babikora neza. Akenshi iyo umuntu yitoje ikintu, bituma abasha kukimenya, bityo akagikora neza kandi mu gihe nyacyo.

Ababyinnyi gakondo bakunze kwishimira imbyino zabo kubera ko iyo bari kubyina bumva baguwe neza basusurutse, bityo bikabafasha kwishima kandi bagasabana n'abandi.

Ibikoresho by'ikoranabuhanga bikunze kuba bikomeye. Akenshi abakora muri ibi bikorwa bavuga ko iyo bakoze ibikorwa bijyanye n'iterambere, bifasha abaturage, bumva bafite umutekano.

Ubwubatsi ni ingirakamaro kuko bufasha abantu kugira aho baba kandi heza, iyo umuntu yubatse inzu nziza akayubakana ubuhanga ndetse hakajyaho ibya ngombwa byose yumva afite amahoro.

Imodoka nini itanga serivisi z'ubutabazi ku hantu habaye inkongi. Abapolisi barayitwara bakayijyana ahaba inkongi, bakabasha kuzimya maze ibintu bikagenda neza.

Amashanyarazi ni ingirakamaro kubera ko afasha abaturage gukora ibikorwa bimwe na bimwe bijyanye n'iterambere. Akenshi iyo ahantu hatari umuriro w'amashanyarazi, usanga harasubiye inyuma nta bikorwa by'iterambere bihagera.

Abantu benshi bakora ibikorwa by'ikoranabuhanga, bakunze kuvuga ko ibikoresho byabo bikunze kuba bikomeye, iyo bikomeye kandi bituma, habasha kubaho ikoranabuhanga rifite imbaraga.

Abakozi benshi iyo bari kubaka, bagenda bashyiraho ibikoresho byabugenewe nka sima, amabuye, imicanga n'ibindi kugira ngo inzu yawe ikomere, ni ngombwa gushaka ba rwiyemezamirimo babigize umwuga.

Umugore wambaye imyenda y'imikara ndetse n'ingofero y'umuhondo arimokurira urwego kugira ngo ajye kubaka, hirya ye hari abandi bantu bahagaze bigaragara ko bari kumuhereza ibikoresho.

Akenshi inyubako rusange nk'amashuri, amavuriro n'ibindi bikunze kuba bisakaje amabati kandi byubakishije amatafari ahiye, iyo inzu wayubatse neza bituma ikomera.

Inyubako igeretse kabiri, bigaragara ko ari ikibuga, gikinirwamo umupira w'amaguru, abantu benshi bahuzwa n'imikino, bakiyunga bakaganira, bakumva bahuje urugwiro.

Inyubako zisize amarangi y'umuhondo zubakishije amatafari ahiye, hakurya yazo hari ishyamba ryinshi ubona ko rikurura umwuka kandi rikatanga amahumbezi muri iyi nyubako.

Ibidukikije ni ingirakamaro kubera ko bidufasha guhumeka umwuka. Ibidukikije kandi bituma habaho iterambere ryihuse kandi rirambye.

Inyubako yubakishije amabati ndetse ikikijwe n'ibyuma byinshi, iyi nyubako ikorerwamo ibikorwa bimwe na bimwe bigiye bitandukanye yaba iby'ubuvuzi ndetse n'ubucuruzi.

Inyubako isize irangi ry'ubururu, isakaje amabati atukura, bigaragara ko ikorerwamo ibikorwa bijyanye n'ubuvuzi. Hafi yayo hari umuhanda w'igitaka, ugenda unyura muri ako gace.

Abantu bahuriye imbere y'inyubako, itangirwamo serivisi z'ubucuruzi, bigaragara ko baje kugura ibikoresho bitandukanye , byifashishwa mu buzima bwa buri munsi kugira ngo bugende neza.

Ihuriro ryabantu baturutse mu bice bitandukanye, bambaye imyenda yiganjemo amabara y'umuhondo, umutuku, umweru n'ubururu. Bari ahantu mu nama bigaragara ko bahurijwe hamwe n'insanganyamatsiko imwe.

Ihuriro ry'abantu baturutse mu bice bitandukanye baje mu nama. Biragaragara ko ari ababyeyi bafite imyaka hagati ya mirongo ine na mirongo itandatu bari kuganira n'abayobozi babo kugira ngo bababwire ibyo babateganiririza.

Ihuriro ry'abantu baturutse mu bice bitandukanye bahuriye ahantu hamwe kugira ngo baganire ku bibazo bimwe na bimwe biraje ishinga sosiyete, n'abaturage ubona ko bari mu kigero cy'imyaka mirongo itandatu.

Ihuriro ry'abantu bambaye imyenda y'umukara, umweru, umuhondo n'ubururu hari abayobozi bari kubakoresha inama ndetse babagira inama y'uburyo bakwitwara.

Abayobozi batandukanye, baje gukora inama bayikorera mu giturage, abayobozi bakunze kwegera abaturage, bakabagira inama y'ibikorwa bakora kugira ngo babashe kwiteza imbere.

Umugabo urimo gutanga imbwirwaruhame, yambaye ishati ye y'ubururu afite n'indangururamajwi mu ntoki. Inyuma ye hari abandi bagabo bigaragara ko bari mu nama, kandi bategereje ubutumwa abagezaho.

Umuhanda wa kaburimbo uri kugendamo igare ndetse na moto, uyu muhanda unyura hagati, mu nzu z'ubucuruzi ziri ku muhanda, bigaragara ko ari ahantu heza kandi hakorerwa ibikorwa byinshi.

Umuhanda wa kaburimbo usize irangi ry'umweru n'umukara, uyu muhanda biragaragara ko nta kinyabiziga kiwurimo kuko byagiye kare kandi ibindi byaciye mu yindi mihanda.

Imodoka nziza ifite ibara ry'umweru n'umukara iri kugenda mu muhanda wa kaburimbo, iyi modoka biragaragara ko ihenze kandi igura amafaranga atari makeya.

Abenshi bavuga ko iyo bagenda mu muhanda wa kaburimbo, bahura n'imbogamizi y'ibinyabiziga byinshi, biba byabuze uko bitambuka kubera ko biba ari byinshi, akenshi bakunze kunyura mu muhanda w'igitaka kugira ngo bihute.

Ikigo cy'amashuri kizitijwe ibyuma, usanga akenshi gikunze kurangwa n'umutekano kuko abajura batabona aho banyura, akenshi ukunze kubonamo abasikiririte barinze icyo kigo.

Ihuriro ry'abantu baturutse mu bice bitandukanye baje mu nama kugira ngo bungurane ibitekerezo, harimo abayobozi, ari bo abapolisi ndetse n'abasirikare bahuriye muri iyo nama.

Ihuriro ry'abayobozi baturutse hirya no hino, baje gukora inama kugira ngo bige ku bikorwa bitandukanye bashaka kugeza ku baturage maze babashe kubakemurira ibibazo bimwe na bimwe bahura na byo.

Abagabo bateraniye hamwe kugira ngo bige ku bibazo bimwe na bimwe bitandukanye biraje ishinga abaturage, akenshi usanga abayobozi bakemura ibibazo byose abaturage bahuye na byo kugira ngo bumve ko batoye abayobozi bifuza.

Siporo ni igikorwa kiza gituma abantu benshi bahura bakaganira maze bagahuza urugwiro. Iyo umuntu akora siporo agira ubuzima bwiza, kuko bimurinda kwandura indwara zituruka ku mubyibuho ukabije.

Abakinnyi b'umupira w'amaguru bavuga ko ubahuriza hamwe bakaganira bakungurana ibitekerezo. Akenshi iyo umuntu akora siporo agira ubuzima bwiza bityo bikamufasha kugira ubuzima bwiza.

Abantu bari gukora imyitozo ngororamubiri, bambaye imyenda yabugenewe gukora imyitozo, biragaragara ko ari urubyiruko rwahuriye ahantu hamwe kugira ngo bakore siporo, birinde indwara zituruka ku mubyibuho ukabije.

Umugabo uri gukora imyitozo ngororamubiri yambaye imyenda irimo amabara y'umuhondo n'umukara, ari gukina umupira w'umweru bigaragara ko abyibushye ari kugabanya umubyibuho.

Abakinnyi b'umupira w'amaguru bakunze guhura bagakina maze bagahuza urugwiro kandi bakaganira ku bintu bitandukanye bashobora gukora maze bakiteza imbere.

Inyubako isize irangi ry'umuhondo n'umweru, igeretse kabiri ni inyubako igaragara neza wagira ngo iberamo ibikorwa bijyanye na siporo ndetse n'imyidagaduro.

Umupira w'amaguru uhuza abantu benshi kuko ari ingirakamaro, abantu bakora siporo bavuga ko, iyo bahuriye mu kibuga bakaganira bakungurana ibitekerezo bumva baguwe neza.

Umupira w'amaguru ni umukino mwiza uhuza abantu benshi bityo bakabasha kuganira ndetse bagahuza urugwiro, iyo bari gukina biba byiza iyo bashyizemo akaruhuko maze bakaganira.

Umuhanda wa kaburimbo uri kunyuramo abantu benshi baturutse mu bice bitandukanye, ni ahantu ubona ko ari heza hatambika kandi ari ku mudugudu w'icyitegererezo.

Umuhanda wa kaburimbo ujya mu bice bitandukanye. Uyu muhanda ukoreshwa n'ibinyabiziga byinshi binyura muri aka gace. Akenshi usanga iyo ahantu hari umuhanda wa kaburimbo, hakunze kugira ibikorwa by'iterambere.

Umuhanda w'amapave unyuramo ibinyabiziga bigiye bitandukanye. Uyu muhanda kandi ukunze gukoreshwa n'abanyamaguru bajya mu bikorwa bimwe na bimwe by'iterambere, bityo bakabasha kumva baguwe neza kandi bishimye.

Umuhanda wa kaburimbo, uri kugendamo abantu babiri, uyu muhanda unyura hagati y'ishyamba ry'inzitane, ubona ko ryakuze kandi rikeneye gutemwa kugira ngo hamere irishyashya.